Intebe nziza abana bigiraho. Zimwe zisa n'ubururu, izindi zisa n'umuhondo, izindi zisa n'icyatsi. Ku rukuta mu ishuri, hariho ibishushanyo abana bareberaho.

Kwiga ni byiza. Igihe umunyeshuri ari mu ishuri, mwarimu ari gutanga isomo imbere aho umunyeshuri atumva ; agomba kuzamura akaboko, akabaza mwarimu , nawe akamusubiza.

umwuga wo guteka ni mwiza cyane, cyane cyane mu mahoteli n'amaresitora. Ni ngombwa rero ko abakora uwo mwuga bagomba kuba bafite isuku nziza cyane. Bagomba kuba bambaye itaburiya ndetse n'ingofero kandi byose bifite umucyo.

Muri iki gihe cy'ikoranabuhanga usanga abanyeshuri bari kwiga bafite imashini ariyo mudasobwa, mwarimu ari imbere yabo yandika nabo bandika ku mashini, mu bihe byo hambere nta mashini zari ziriho.

Umurimo wo kwigisha ni umurimo ukomeye usaba kwihangana kandi ni umurimo mwiza. Kwigisha abanyeshuri hanyuma ukabona rwose batsinze ni ikintu cyiza cyane.

Hijya no hino uhasanga abana, abasore biga gukanika imodoka ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, iyo babimenye usanga bakorera amafaranga, bakiteza imbere ndetse bagateza imbere n'umuryango wabo, ndetse n'igihugu cyababyaye,

Imashini ya compiyuta ni igikoresho cyiza cyane muri iki gihe cya none, kuko ibintu byinshi bisigaye binyura kuri interineti. Ubwo rero ikoranabuhanga ni jyiza kandi abantu bose bajyibonamo yaba abakobwa cyangwa se abahungu.

Umurimo w'ubudozi ukoresheje icyarahani ni umurimo mwiza cyane. Abawukora ubafitiye akamaro kuko ubatunga, ndetse bagatunga n'imiryango yabo. Rero ni byiza kuwiga kandi ntabwo ugora.

Mu Rwanda hakorwa umurimo wo gucura ibyuma. Hacanwa umuriro, ugashyiramo icyuma kigashya cyane, nyuma ukagihonda, ukakiremamo icyo ushaka.

Abana b'abakobwa ndetse n'abahungu muri iki gihe usanga baritabiriye gahunda y'imyuga. Aho usanga bajya kwiga imyuga yo kudoda, kandi iyo bayirangije baragenda bagakorera amafaranga bakabona igitunga imiryango yabo, ndetse nabo ubwabo bakiteza imbere.